Ni ahantu haparitse imodoka y'umweru, yanditseho amagambo ngo ministry of health, Nyagatare hospital, iruhande rwayo hari abagabo babiri bambaye udupfukamunwa, bateruye agasanduku.

Icyumba kirimo amakaro y'umweru, hari abantu bambaye imyenda y'icyatsi ndetse iki cyumba kirimo n'ibindi bitanda bishasheho ibitambaro by'icyatsi, harimo ikintu kimeze nk'igihombo kivuye hasi kikagera hejuru biragaragara ko ari icyumba babyarizamo abadamu.

Ahantu hicaye abana abo bana buri wese afite isahani iriho ibiryo, bafite n'ibiyiko mu ntoki, bigaragara ko aba bana bari kurya, mu bigaragara aba bana biga mu mashuri y'inshuke cyangwa amashuri abanza.

Icyumba, icyumba cyanditsemo amagambo menshi agiye ari ku byapa, hahagazemo abantu batatu, abadamu babiri n'umugabo, bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko ari abaganga bateruye umwana, bigaragara ko bamaze kubyaza uwo mudamu.

Icyapa kirimo ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda UR, handitseho amagambo mu ibara ry'umweru ngo sobanukirwa wirinde campaign, ari mu mabara y'umuhondo handitseho ngo UR Campuses tour on SRHR.

Abantu benshi biganjemo abadamu bahagaze imbere yinzu isakaje amabati yu'bururu iteye irangi ry'ubururu, inyuma yiyo nzu hari ibiti birebire ndetse hari n'urutsinga rw'amashanyarazi runyuze hejuru yibyo biti.

Ni imbere y'inzu, hari amasakariye ajya kuri iyo nzu, imbere yayo haparitse moto, iyo nzu iteye irangi ry'umweru, inzugi ziteye irangi ry'umukara ni metalike munzu harimo iduka.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, gifite parafo y'umweru ariko ishaje yahomotseho, harimo itara ry'umweru hejuru kuri iyo parafo, ibikuta by'iyo nzu biteye irangi ry'umuhondo ariko bigiye bimanitseho impapuro.